Isahani iriho umurete w'amagi n'ifi iri mu mureti, ku isahani y'umweru nk'igikoresho cyo mu rugo, cyifashishwa mu gutegura amafunguro.

Imbuto y'ibirayi biri mu buhunikiro, byifashishwa nk'ibiribwa ngandurarugo, abantu barya kugira ngo bibatere imbaraga, byose biri ku mbuga.